Abagabo batandatu bahagaze mu kiyaga bose bateruye umutego uroba amafi, uwo mutego uri mu ibara ry'umukara umeze nk'aho wahuye n'ibyondo, inyuma y'abo bagabo hari ibyatsi bimera mu mazi bimeze nk'amarebe.

Umugore n'umugabo bambaye ingofero z'ubururu zo kwa muganga n'udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'amatabuririya y'icyatsi kibisi bari ku meza ariho itungo rimeze nk'aho ari inka ndetse kuri ayo meza harimo n'udukoresho tugiye turimo inshinge n'akamashini karimo imibare mirongo icyenda na rimwe rimwe ijana na makumyabiri na gatandatu.